Umugabo wambaye ishati irimo ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara arimo arakarabira kuri kandagira ukarabe, ni igikoresho kidufasha gukora isuku cyane cyane iyo tuvuye mu bwiherero.

Ibiganza biteze intoki kuri kandagira ukarabe hariho haraza amazi iruhande rwayo hari isabune yifashishwa mu gukaraba.

UN WFP ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe ibiryo ndetse kigaburira abantu bafite ibibazo by'imirire.

Ababyeyi batandukanye, bamwe muri bo bambaye amajiri y'icyatsi, abandi bakenyeye ibitenge urabona ko bafite isuku. Baje muri gahunda z'ubuzima.

Ku ivomero hari ibijerekani bitandukanye ndetse n'abaturage baje gushaka amazi, aha ni ibikorwa remezo byegerejwe abaturage, bityo ntibakijya kuvoma kure.

Umujyanama w'ubuzima w'umugabo yambaye itaburiya y'ubururu arimo arapima abana bato ngo arebe ibiro bafite, ibi biri muri gahunda yo gukuza abana bacu neza.

Urubyiruko ruteraniye ahantu hamwe, rurimo rurakora akarima k'igikoni, bambaye imipira igiye irimo amabara y'umutuku ndetse ku ruhande hari umupolisi.

Umugabo wambaye ikoti ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hahagaze undi mugabo wambaye ishati yigitenge bari imbere yimbaga y'abantu, barimo barabaganiriza kubijyanye n'ubuzima.

Abambaye udupfukamunwa, uturindantoki ndetse n'imyambaro yabugenewe yifashishwa kwa muganga iyi myambaro irinda uyambaye kuba yakwandura indwara zaba iz'ubuhumekero ndetse n'izindi.

Umugabo uhagaze imbere y'abaje gushaka serivise kwa muganga, arimo arababwira uko bafata neza ubuzima bw'abana babo. Iruhande rwe hari umunzani wifashishwa mu gupima ibiro.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri arimo arakaraba intoki imbere ya kandagira ukarabe, hari ibase iriho ibara ry'icyatsi ndetse n'indobo iriho ibara ry'icyatsi, yambaye impuzankano y'ishuri yigaho.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, hicaye abantu benshi bicaye ku ntebe batonze imirongo, biragaragara ko bakeneye serivisi baje gushaka.

Umugabo wambaye hasi ipantaro y'ubururu ndetse hejuru ikoti ry'ubururu arimo aracunda amazi kuri nayikondo, iruhande rwe hahagaze abana benshi baje gushaka amazi.

Urujya n'uruza rw'abaganga, barimo abajyanama b'ubuzima ndetse hagati yabo harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse mo imbere harimo ishati y'umweru ndetse na karuvati. Barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Umwana w'umukobwa yambaye impuzankano y'ishuri yigaho arimo arakaraba intoki n'amazi meza, ni byiza ko dukora isuku mu ntoki zacu biturinda kwandura indwara zituruka ku mwanda.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa arimo arakingira abana baje bamugana bari kumwe n'ababyeyi babo iruhande rwe hari agakoresho kabika imiti itandukanye.

Abagabo ndetse n'abagore bahuriye ahantu hamwe mu nyubako, hari urimo abaha ikiganiro, witandiye agatambaro k'umweru, barimo baravuga ku bijyanye n'ubuzima.

Umubyeyi wambaye ingofero ndetse n'umupira w'imbeho, akenyeye igitenge ahagaze imbere y'ivomero, arimo aravoma amazi mu majerekani y'ibara ry'umuhondo, amazi ni meza ku buzima bwacu.

Icyapa gifashwe n'abagabo ndetse n'abagore, cyanditseho amagambo avuga ngo: "umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura."

Abana bambaye imipira ya oranje, barimo barahabwa amata ndetse banagaburirwa n'abandi bayobozi batandukanye barimo n'abashinzwe umutekano.

Ihuriro ry'abantu harimo abagabo ndetse n'abagore n'abazungu, bose bambaye imyenda itandukanye harimo; hejuru abambaye imweru ndetse hasi bakaba bambaye imikara.

Umwana w'umukobwa arimo araseka, afite akabido mu ntoki arimo aravoma, iruhande rwe hari umwana w'umuhungu urimo aracunda, uyu mugezi bawita nayikondo.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi n'ikabutura y'umukara arimo arakaraba intoki ku mugezi iruhande rwe hari indobo z'ubururu.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima bitwa abajyanama, bahawe ibikoresho byiganjemo telefoni zo gukomeza gukora umurimo bari basanzwe bakora wo kugira inama abaturage ku bijyanye n'ubuzima.

Umubyeyi ufite umwana mu ntoki ndetse n'umuganga wambaye imyenda y'umweru, ndetse na ga z'umweru, barimo baravura uyu mwana ufite uburwayi.

Abantu bibumbiye ahantu hamwe imbere yabo hari inzu, imbere yayo hari idarapo ndetse n'akazu gato kubakishije ihema baje mu bikorwa by'ubuzima.

Umujyanama w'ubuzima yambaye itaburiya y'ubururu, arimo araganiriza abitegura kurushinga bicaye ku ntebe z'ibiti.

Abagabo babiri, bicaye imbere y'ameza ateretseho amacupa y'amazi ndetse n'udutabo, hari n'amakayi barimo bifashisha bandikamo ibyavugiwe mu nama, inyuma yabo hamanitse icyapa kinini.

Ivomero ryahuriweho n'abantu baturutse mu mpande zitandukanye, bafite ibivomesho barimo baravoma amazi, iruhande hari abana bakiri bato bategereje kuvoma.

Abana bakiri bato bambaye imipira y'ubururu yanditseho yunisefu wodi ciridirenizi rayiti, barimo baraseka ndetse barishimye.

Umwana wunamye imbere y'ivomero yateze amashyi ku kumugezi arimo aranywa amazi munsi ye hari isafuriya.

Umwana w'umukobwa wambaye agapira k'umutuku afite igikombe cy'icyuma mu ntoki, aretse ku mugezi arimo aravoma amazi agiye gukoresha yoza mu kanwa.

Icyumba kirimo abagore batatu umwe arimo aritegereza babiri uko barimo bandika, abandi babiri barahuze barimo barandika mu bikayi binini.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano barimo barakaraba intoki bashyize isabune mu biganza byabo, imbere yabo hari imigezi ya robine bagiye koza intoki zabo.

Ibiganza bibiri, kimwe gifashe urushinge, ikindi gifashe ku kaboko k'umuntu, kirimo kiramutera urushinge, twikingize indwara zituruka ku byorezo bitandukanye.

Inama yahuje abaturuka mu bihugu bitandukanye barimo baraganira kuri foru ever i cadi hopu buri mwana wese agomba kuba afite icyizere cy'ejo hazaza.

Abari n'abategarugori ndetse n'abagabo bafite ibipapuro byanditseho amagambo agiye atandukanye ni ishyirahamwe ryishyize hamwe.

Ku ivomero, ibiganza birimo birakaraba intoki, byambaye ishati y'ubururu ndetse amazi arimo arava mu ihombo ry'icyuma, ni amazi meza y'urubogobogo.

Umugore urimo aravoma amazi, inyuma ye hari umusore urimo aroza igare, ibi ni ukwangiriza ibidukikije, iyo twogereza ibinyabiziga mu mazi atemba.

Abana benshi, bateraniye ku mugezi, barimo barakaraba intoki, uwo mugezi uriho ibasi y'umutuku, yuzuye amazi. Hari n'abandi ku ruhande, bahagaze barimo barabitegereza.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati ndetse n'ikabutura, afite igikombe cy'umweru mu ntoki arimo aravoma amazi aturutse mu kigega, aya mazi si meza ku yanywa.

Igihombo kivamo amazi meza, ikiganza giteze intoki ngo gikarabe ayo mazil munsi hari amazi atemba. Aha aya mazi ni meza.

Umwana w'umunyeshuri ahagaze hejuru y' umugezi hari n'undi mwana hasi washyize akajerekani ku mugezi arimo aravoma. Hirya hari abana b'abanyeshuri barimo bataha.

Umugabo wambaye amadarubindi y'umukara ndetse n'agapira ka oranje arimo aragaburira umwana indyo yuzuye. Uyu mwana ashigatiwe n'umubyeyi wambaye agapira k'umweru, arimo aritegereza uko umwana we arya.

Umwana w'umukobwa yadubitse akajerekani mu mazi arimo aravoma, amazi y'ikidendezi biragaragara ko atari meza. Amazi nk'aya agira umwanda ntabwo ari meza kuyakoresha.

Umugabo afite agakoresho kabugenewe gapima imikurire y'umwana, arimo arapima uyu mwana ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Umwana w'umukobwa afite icupa ririmo amazi yambaye ikanzu y'igitenge ari imbere y'inzu cyubakishije amatafari ahiye ndetse isize irangi ry'umukara n'umuhondo.

Umusore wambaye amadarubindi y'umukara, yambaye agapira ka oranje, arimo araha amata umwana wambaye agapira ka oranje ashigatiwe n'umubyeyi we.

Abagore bicaye ahantu hamwe bambaye imyenda itandukanye baje gushaka serivisi zo kwa muganga barimo baragirwa inama z'uko bagomba gutwara ubuzima bwabo.

Abana b'abakobwa b'abangavu babiri bafashe indabo mu ntoki umwe agiye kuyikorera, bavuye ku ivomero iyi ndobo iri mu ibara ry'icyatsi.

Inama yitabiriwe n'abayobozi batandukanye, barimo bariga ku ngingo zigiye zitandukanye, bambaye udupfukamunwa, harimo abagabo ndetse n'abagore, birasa nkaho bari ku ngingo imwe.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abambaye amataburiya ndetse n'amabaji mu majosi yabo, barimo barifotoreza k'umusaza wambaye amakote y'umukara ndetse n'amadarubindi y'umukara.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi iruhande rwabo hari umugabo ukuze barimo barifotoza barishimye barimo baratanga serivisi z'ubuzima.

ku ivomero ahari abana bakiri bato umwe arimo aravoma undi acunda kugira ngo amazi azamuke iruhande rwe hari abategereje kuvoma.

Kwa muganga ahatangirwa serivise z'ubuzima, hari urubyiruko rw'abasore n'inkumi, barimo baratanga ibinini babiha abaturage baje gushaka serivise zo kwivuza.

Umwana w'umuhungu yunamye imbere akandagirukarabe arimo arakarabaintoki. Ni byiza gutoza abana gukaraba intoki kuko bituma batarwaragurika.

Umugabo wambaye agapfukamunwa yambaye ingofero ndetse n' numupira by'ubururu imbere yabo hahagaze umugore ufite terefone mu ntoki arimo arabafotora.

Agakoresho kifashishwa kabikwaho ibyombo bimaze kozwa kugira ngo bibanze byumuke, ni keza kuko gatuma ibikoresho dukoresha mu rugo rwacu biba byumutse bidafite amazi.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge acigatiye umwana mu ntoki, ndetse n'ifishi yo gukingiza iri mu ibara ry'umuhondo, ni byiza gukingiza umwana kuko bituma akura neza.

Ivomero ririho kuvomerwaho abaturage batandukanye hariho ibijerekani biri mu amabara atandukanye muri bo harimo abana ndetse n'umugabo mukuru.

Abana bato barimo baraseka umwe arasukira amazi andi ku ntoki ngo akabe intoki ni byiza ko abana bacu tubatoza gukaraba intoki bikabarinda indwara zituruka ku mwanda.

Urubyiruko ruturutse impande zitandukanye ruhagaze imbere y'inyubako isize irangi ry'umuhondo ndetse n'amatafari ahiye sima iteye irangi ry'umutuku.

Umujyanama w'ubuzima yambaye bote z'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'amaboko magufi, yicaye imbere y'umubyeyi ndetse n'umwana, arimo arabaha amabwiriza y'ubuzima bwabo.

Abasore n'inkumi bambaye udupira tw'ubururu bose bashyize igipfunsi hejuru bambaye ingofero z'umweru.

Inzu mberabyombi yahuriyemo abo mu bihugu bitandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura, imbere yabo hateretse uducupa tw'Inyange tw'amazi ndetse n'aho kwandika.

Abagore babiri bafite umufuka urimo ibiribwa, barimo barapakira bawuhereza umugabo uri hejuru wambaye ishati y'ubururu, umugore umwe yambaye ishati y'igitenge ndetse n'undi nawe yambaye ikanzu.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano arimo arakaraba mu ibase ijya gusa umuhondo ari kuri kandagira ukarabe.

Umubyeyi arimo araha abana amata inyuma ye hari ingabo y'igihugu yambaye impuzankano y'akazi iruhande rwe hahagaze undi wambaye umupira w'umweru.

Umugabo wambaye imyenda isa hasi no hejuru, ahagaze imbere y'umuganga arimo aramubwira uko yiyumva, arimo arandika mu ikayi yabugenewe, imbere ye hari amacupa arimo amazi.

Umwana wambaye agapira karimo amabara y'umukara ndetse n'ubururu, ari ku mugezi arimo arakaraba, hasi yambaye ipantaro y'icyatsi.

Ihuriro ry'abaganga ndetse n'abakozi bo kwa muganga, bambaye imipira y'imyeru ndetse harimo abagabo n'abagore, barimo barizihiza umunsi Mpuzamahanga w'ubuzima.

Amazi atemba umukobwa arunamye arimo arayavoma, iruhande rwe hari akana kambaye udukweto tw'icyatsi ndetse umukobwa yambaye udukweto tw'umuhondo.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abayobozi bakuru bahagaze ahantu hamwe, bahawe ibihembo by'indashyikirwa byo kwitwara neza.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye imyenda yacikaguritse ndetse yagiye yidoderaho inshocera, yambaye urugofero rw'umukara, afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umujyanama w'ubuzima arimo araganiriza abadamu batatu ndetse n'umugabo ubicaye imbere, arimo arababaza ibibazo bijyanye n'imitekerereze yo mu mutwe.

Umuryango ugizwe n’umugabo ndetse n'umugore ndetse n'abana, bicaye ku ntebe barimo baraseka, barimo barahumurizwa ku ndwara yo mu mutwe.

Umubyeyi arihebye yicaye imbere y'umujyanama w'ubuzima, arimo aramufasha gutuza ndetse ni umufashamyumvire, yifashishwa mu guhumuriza abafite ibibazo by'ihungabana.

Umugabo wambaye ishati y'igitenge, ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo arasuhuzanya n'umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, wambaye inshwabari, abafite uburwayi bwo mu mutwe tubahe uburenganzira bwabo.

Inyubako nziza iri ahantu harehare, iteyeho icyapa kiranga ibyo ikora, isize irangi ry'umuhondo hejuru isakajwe amategura.

Inama yitabiriwe n'abategarugori imbere yabo hari umuyobozi arimo arabaganiriza ku nsanganyamatsiko igira iti twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Abagabo ndetse n'abagore barishimye barimo baraseka, bifotoreje ku mpamyabushobozi bahawe. Bamwe bambaye imipira y'imikara, umwe ku ruhande yambaye umupira w'umweru.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage, barimo barabaganiriza uko ubuzima bwo mu mutwe bugomba gusigasirwa, baje mu modoka nini iri mu ibara ry'umweru ndetse yanditseho amagambo y'icyongereza.

Abagabo ndetse n'abagore barimo baraseka, bahagaze imbere y'inyubako nini, bigaragara ko bavuye mu biganiro cyangwa se amahugurwa yo kwita ku buzima, bambaye imyenda itandukanye harimo amakote ndetse n'amapantaro.

Umugabo wicaye yihebye yashyize intoki mu maso iruhande rwe hari umugore arimo aramuhumuriza amubwira ko nubwo byanze uyu munsi ejo bizemera.

Mu rubyiruko rw'abasore n'inkumi harimo n'abakuze babiri umusaza n'umukecuru, bari baje mu nama ivuga ku buzima bwo mu mutwe, bambaye udupira tw'ubururu.

Umujyanama w'ubuzima, arimo araganiriza ababyeyi babiri, bombi bafite abana, bicaye imbere y'ameza ateretseho umunzani ndetse n'imashini yabugenewe.

Umurwayi wo mu mutwe yambaye imyenda y'ibicankana iruhande rwe hari igare ndetse hakurya hari abantu bicaye munsi y'ihema ni byiza kwiza kwita ku buzima bw'abarwayi bo mu mutwe.

Abajyanama b'ubuzima bambaye udupfukamunwa barimo baraganiriza ufite ikibazo cyo mu mutwe, yahuye n'ihungabana barimo baramuganiriza bamugira inama ku buzima butandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bafite utudarapo mu ntoki tw'ibendera ry'u Rwanda, bambaye imyenda itandukanye, barimo baraseka bishimiye igikorwa bitabiriye.

Umujyanama w'ubuzima yambaye agapira k'umweru, afite telefone mu ntoki ndetse n'akuma kabigenewe mu gupima umuriro, arimo arereka umubyeyi ushigatiye umwana aho umuriro ugeze.

Umwana w'umuhungu yambaye ubusa nta n'umwenda n'umwe yambaye, birasa nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe, aba bakwiye kwitabwaho kugira ngo nabo babashe kugira uburenganzira nk'ubw'abandi.

Umusore wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro asa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe asa nabi rwose yambaye inkweto zisa nabi ntabwo aheruka gukaraba.

Uru ni urubuga ruba kuri murandasi rwifashishwa rugira inama abantu ku buzima bwabo, aha barimo barababwira ko ubu wagenda kuri urwo rubuga ukahabasanga.

Ubuvuzi buvura uburwayi bwo mu mutwe, bwari bwegerejwe abaturage mu karere ka Bugesera, aho basuzumwa bakagirwa inama zitandukanye ku buzima bwabo bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze.

Uwicaye imbere y'ishyiga arimo arateka, inkono y'iwe isa umukara, ndetse afite umwuko arimo arakoza mu byo atetse.

Isange One Stop centre ni ikigo gishinzwe kurengera abahohotewe ndetse n'ababahohoteye bakagezwa mu nkiko.

Umugore uri kumwe n'abana babiri, umwe aramushigatiye, undi amwica iruhande. Imbere ya bo hari inkoko iriho ibigori ndetse n'ingemeri y'umutuku.

Urubyiruko rwaturutse impande n'impande bambaye imyenda itandukanye harimo abakobwa ndetse n'abagore bahurijwe muri sare nini barimo barabagira inama ku buzima bwabo.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'iroza, uyu mugore afite insakazamajwi, imbere ye hateritse mudasobwa n'icupa ry'amazi.

Icyapa cya Rwanda Bayomediko Senta, cyanditseho Mento herifu. Iki ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye ga z'umweru afite udukoresho twifashishwa mu gupima ndetse no koza amenyo, arimo arakorera isuku mu kanwa umwana ukiri muto.

Ifoto igaragaza uko amenyo ahagaze, yafashwe n'ibyuma kabuhariwe byabugenewe byo kwa muganga, aha umurwayi aba agomba kureba uko amenyo ye ahagaze.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa ndetse n’amarinete, barimo baravura umurwayi amenyo, ni umugore ndetse arimo arababara.

Agakoresho kabugenewe kifashishwa mu koza amenyo, ni akadodo gakura imyanda hagati mu menyo gatuma amenyo yacu atangirika.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo imashini zabugenewe zifashishwa mu kuvura amenyo, ku rukuta rw'umweru hari isaha imanitse hejuru y'umuryango.

Umwana w'umukobwa yambaye amaherena ku matwi ndetse n'agashati k'umuhondo barimo baramusuzuma mu kanwa ngo barebe uko amenyoye ahagaze, nimwiza afite umusatsi muremure.

Umugabo ufite isume k'urutugu, afite akadodo mu ntoki arimo aroza amenyo. Aka kifashishwa gukura imyanda mu menyo hagati.

Abana bakiri bato bambaye impuzankano isa barimo baraborosa boza amenyo ,ni byiza kugira isuku yo mu kanwa kuko bituma amenyo yacu aguma kumera neza.

Ifoto irimo iragaragaza uko amenyo yo mu kanwa ahagaze irimo irerekana uko ayangiritse ameze ndetse n'akiri mazima nibyiza kwisuzumisha amenyo.

Inyubako irimo imashini zitandukanye hari intebe zo kwicaraho zikoreshwa n'abakora muri iyi nzu, izi mashini zishinzwe gupima uko umurwayi ameze.

Umugabo ufite akadodo mu ntoki, arimo arakanyuza mu menyo hagati, kugira ngo arusheho kuyakorera isuku. Amenyo iyo utayabungabunze arangirika.

Umusore w'ibizigira mwiza ukeye mu maso ndetse arimo araseka, afite akadodo mu ntoki kabugenewe kifashishwa mu koza amenyo, kugira isuku ni byiza mu kanwa kuko bituma amenyo yacu atangirika.

Abasore n'inkumi ndetse n'abakuze, bahuriye hamwe baje kwizihiza umunsi mukuru, bambaye imyenda myiza ndetse bafite n'amabaji ku mifuka yabo.

Umukobwa mwiza wambaye ikanzu y'umweru, imisatsi miremire, arimo arireba mu ndorerwamo, arimo arasukura amenyo yiwe. Ni byiza kugira isuku mu kanwa.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano bafite colgate ndetse n'uburoso. Harimo umukobwa wambaye agashati k'ibara ririmo umweru ndetse n'umutuku barimo baraseka.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi yabugenewe, arimo arasuzuma umubyeyi areba uko amenyo ye ahagaze, iruhande rwe hari umufasha gusuzuma.

Udukoresho twifashishwa bapima ingano ndetse n'amabara y'amenyo; ugafashe mu ntoki arimo araseka, arishimye; yambaye agapira kajya gusa ibara ry'icyatsi.

Imashini zabugenewe zo kwa muganga zifashishwa mu kuvura ndetse no gusana amenyo, ziri mu mabara y'umukara zirambitse ahantu habugenewe.

Umusore ukiri muto afite akadodo kabugenewe arimo aroza amenyo yiwe yambaye agapira k'umweru ndetse arimo areba mu ndorerwamo.

Umwana ukiri muto afite uburoso bw'amenyo mu ntoki, arimo aroza amenyo, yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, arimo arakora isuku yo mu kanwa.

Agakoresho kabugenewe kifashishwa mu gukora isuku mu kanwa, aka gakoreshwa nyuma yo kurya cyangwa se mbere yo kujya kwiborosa gakura imyanda hagati y'amenyo.

Abana bakiri bato bambaye impuzankano, bafite uburoso mu ntoki, barimo baraborosa mu kanwa, bose baracyari bato biga mu mashuri abanza. Ni byiza gutoza abana bakiri bato koza amenyo kuko bakura badafite indwara zo mu kanwa.

Iryinyo ririmo rirakurwa, ryavuye aho ryari risanzwe riri, aha ni kwa muganga bifashishije ibyuma byabugenewe, mu gukura amenyo.

Abana bambaye impuzankano barimo baraseka bafite uburoso ndetse na corogate barimo baratozwa kwiborosa bagira isuku yo mu kanwa.

Abarwayi bambaye udupira tw'icyatsi abarimo babasuzuma bambaye udupira tw'imyeru ndetse n'udupfukamunwa bambaye n'uturindantoki barimo barasuzuma amenyo.

Umuganga arimo arakorera isuku umurwayi mu kanwa ke; ndetse arimo akoresha ibikoresho byabugenewe; yambaye uturindantoki tw'umweru bigaragare ko afite isuku.

Umusore ukiri muto yambaye agashati k'ikoboyi, afite amenyo meza ndetse n'ubwanwa, mo imbere yambaye agapira kajya gusa ibara ry'igitaka.

Agakoresho kabugenewe kifashishwa mu gukura imyanda hagati y'amenyo yacu, ni keza gatuma imyanda yagumye mu menyo ivamo bityo tukagira amenyo meza.

Umugabo ufite akadodo mu ntoki kabugenewe kifashishwa mu gukura imyanda hagati y'amenyo kugira isuku ni byiza mu kanwa.

Umukobwa mwiza wambaye isengeri y'umweru, afite uburoso mu ntoki arimo ariborosa. Ni byiza gukora isuku mu kanwa kuko bituma amenyo yacu atarwara.

Umuganga w'umugore yambaye ga ndetse n'agapfukamunwa; arimo aroza mu kanwa ndetse anasuzuma amenyo y'uyu murwayi uko ahagaze.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zo kuvura amenyo, hari ibikoresho byabugenewe gusa, iki cyumba gisa neza gisize amarangi y'umweru.

Umwana arimo arasuzumwa amenyo n'umuganga w'inzobere, umuganga yambaye uturindantoki ndetse afite n'udukoresho mu ntoki twabugenewe twifashisha mu gusuzuma amenyo.

Umukobwa mwiza arimo araseka yerekana amenyo ye meza uko asa nibyiza kugirira amenyo yacu isuku kuko biturinda indwara zo mu kanwa ndetse bikaba byatuma amenyo yacu yangirika.

Umukecuru ufite agakoresho kabugenewe kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari abasaza ndetse n'abakecuru, bose barishimye barimo baraseka.

Umubyeyi ukuze iruhande rwe hari umurwaza arimo aramuha imiti ndetse ashinzwe ubuzima bwe ko buhagaze.

Umusaza ndetse n'umukecuru barimo barakora imyitozo ngororamubiri, bombi bambaye udusaha ku kuboko barimo baraseka biragaragara ko bishimye, Imyitozo ngororamubiri ku bakiri abasaza ni myiza.

Ibikoresho byifashishwa n'ababana n'ubumuga, byashyikirijwe abayobozi, kugira ngo babibagezeho . Harimo abayobozi bambaye amadarubindi, amakoti y'imikara ndetse n'abategarugori .

Umubyeyi ukuze iruhande rwe hari umuganga ushinzwe kureba uko ubuzima bwe buhagaze, bambaye bombi imyenda iri mu ibara ry'ubururu bose barimo baraseka barishimye.

Umuganga arimo arapima umuvuduko umubyeyi urimo ikigero cy'izabukuru uyu muganga yambaye imyambaro yabugenewe yifashishwa avura yambaye agapfukawa ndetse n' marinete.

Umusaza ukiri muto ndetse n'umukecuru, bicaye imbere y'ameza barimo barafata amafunguro, higanjemo ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara.

Umuryango wishimye urimo abana ndetse n'abakuru, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bicaye hamwe barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Umusaza w'imvi yambaye ekuteri mu matwi z'umukara ndetse n'udukoresho twabugenewe twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye n'ipantaro y'umukara.

Umusaza uri mu kigero k'izabukuru, afite agakoresho mu ntoki kabugenewe kamufasha gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umufasha kureba uko ubuzima bwe buhagaze.

Umusaza arimo aragendera mu nkoni yabugenewe, arimo aritabwaho n'umurwaza wiwe agenzura uko ubuzima bwe bumeze, iyo tugeze mu za bukuru ni byiza kuba twariteganyirije kugira ngo dusaze neza.

Umubyeyi w'umumama yambaye amaherena ku matwi, arimo araseka, afite ifoke mu ntoki ndetse n'isahani iriho ibiribwa bitandukanye harimo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga.

Umusaza ndetse n'umugore bicaye imbere yameza umusaza afite terefone mu ntoki, umugore yambaye baji mu ijosi arimo aramwereka serivisi zitandukanye.

Intoki zirimo zirakina umukino witwa dame, ni umukino usaba ubwenge, hano hari umukecuru urimo arawukina.

Umukecuru ufite imvi, afite udukoresho twabugenewe tw'icyatsi mu ntoki, twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukecuru ufite ibinini mu ntoki ndetse n'ikirahuri cy'amazi yambaye amaherena ku matwi, agiye gufata imiti yandikiwe na muganga.

Umusaza wambaye ishati ya kaki imisatsi ye irimo imvi yambaye imashini yabugenewe ku kaboko irimo irapima umutima we uko utera, ni byiza kwisuzumisha hakiri kare.

Abakuze aho bicaye bafite intebe bagomba kwicaraho, bafite inkoni mu ntoki harimo umusaza wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro yumukara.

Umugore mukuru wambaye imyenda yabugenewe yo gukora siporo yicaye ahantu hatuje muri jaride ndetse no kumukeka wabugenewe arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ndetse n'umwana barimo barakina Basiketi, umwana afite umupira mu ntoki umusaza arimo aragerageza kuwumwaka barishimye barimo baraseka.

Umusaza uri m'ikigero cy'izabukuru iruhande rwe hahagaze umurwaza ushinzwe kumenya ubuzima bwe uko buhagaze yambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'umusaza yambaye imyambaro ya kacye.

Umusaza ugeze mu zabukuru arimo arafashwa gutera intambwe agenda arikumwe n'umuntu ushinzwe kureba ubuzima bwe uko buhagaze.

Umusaza ndetse n'umukobwa ukiri muto bahagaze imbere y'ibati, barimo barifotoza. Umusaza yambaye agapira k'icyatsi naho umukobwa yambaye amadarubindi.

Umusaza n'umukecuru basheshe akanguhe bicaye imbere y'ameza iteretseho imiti, barimo barasoma amabwiriza bahawe yuko bagomba kwitwara ku buzima bwabo.

Ababyeyi babiri umwe ni umukecuru undi aracyari muto bambaye imyenda yabugenewe bavuye muri siporo, siporo nubuzima kuko ituma dusigasira ubuzima bwacu.

umusaza ndetse n'umwana muto w'imisatsi myinshi, umusaza yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'umwana yambaye agapira k'icyatsi bafite imashini mu ntoki zabugenewe barimo barakina gemu.

Umusaza wambaye amadarubindi, afite ikaramu mu ntoki ndetse n'ikayi ku meza arimo arandika, yambaye ishati y'icyatsi ndetse n'agapira kamurinda imbeho kari mu ibara ry'ivu.

Umusaza wambaye umupira w'umweru, yambaye igikoresho cyabugenewe ku kaboko gipima uko umutima we utera, iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Umubyeyi wakinyeye umukenyero yambaye agapira kajya gusa ubururu afite indangururamajwi mu intoki yambaye urunigi.

Akanama k'ababyeyi bateraniye hamwe, umwe arimo araboha igiseke, hakurya hari umuzungu ushigatiye umwana, iruhande rw'uyu uboha igiseke hari umukobwa urimo araseka.

Umukecuru ufite imvi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku mukeka wabugenewe, yambaye isengeri y'ubururu, iruhande rwe hari intebe zo kwicaraho.

Umusaza wambaye agapira k'umuhondo, afite akagozi kabugenewe mu ntoki, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, abifashijwemo n'ushinzwe ubuzima bwe.

Umusaza ndetse n'umukecuru basheshe akanguhe, umukecuru yambaye amadarubindi ndetse n'amaherena kumatwi yambaye nishati y'ubururu, naho umusaza yambaye ishati ya karokaro afite agacupa k'imiti mu ntoki.

Umukecuru wicaye mu kagare arimo aritabwaho n'umuganga amubaza uko ubuzima bwe bumeze, uyu mukecuru yambaye amadarubindi ndetse yipfutse n'igitambaro cy'umukara.

Umukecuru w'imvi ahagaze imbere y'umuganga arimo aramukoresha imyitozo ngororamubiri. Uyu mukecuru yambaye amaherena ku matwi ndetse arimo araseka.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye imbere y'ameza bafite urupapuro mu ntoki barimo barasoma, ku meza haraditse impapuro nyinshi ndetse umusaza afite telefone mu ntoki.

Umukecuru ufite ibinini mu ntoki yambaye amadarubindi, ndetse n'imyenda isa hasi no hejuru, afite imisatsi miremire arimo arafata ibinini agiye kunywa.

Umukecuru wipfutse igitambaro cy'umutuku, apfutse igipfuko ku jisho cy'umweru, aha ni kwa muganga aho bamuvuye ijisho.

Ihuriro ry'abagabo ndetse n'abagore biganjemo abambaye amakoti hejuru, ndetse hasi bambaye imikara, harimo n'abadamu bambaye imyenda y'ibitenge. Baje mu munsi mukuru.

Icyapa kiriho ingamba zo kwirinda corona virusi cyanditseho ngo stop corona, harimo kwirinda gusuhuzanya, kwambara udupfukamunwa ndetse no kudakoranaho.

Kanseri y'inkondo y'umura ni indwara yibasira abagore, ariko iki cyapa kirimo kivuga ko byoroshye kuyirinda, irica iyo uyirwaye ntujye kwivuza.

Urubyiruko rwiganjemo abari ,imbere bambaye udupira tw'umukara ndetse inyuma yabo bambaye udupira twiganjemo amabara y'umweru.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya virusi itera sida, ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ni igikorwa cyatewe inkunga na Rwanda bayomediko senta.

Abaganga bari mu cyumba bavuriramo abarwayi, bambaye imyenda ibakingira kwandura, bambaye udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki, barimo baravura umurwayi.

Serivisi zo kwa muganga zirimo gukingira, abaje kwaka izo serivisi bambaye udupfukamunwa, ndetse n'abarimo babakingira bambaye udupfukamunwa, ndetse n'uturinda isura yabo.

Urubyiruko rwambaye imipira y'imyeru; rufite icyapa cyanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere; tuyisuzumishe hakiri kare, kuko ivurwa igakira.

Icyapa kiri mu ibara rya move, iruhande rwacyo hari umugore wambaye itaburiya yo kwa muganga, ndetse afite imashini yabugenewe mu gupima uko umutima utera. Cyanditseho ngo tubungabunge ubuzima bw'Abanyarwanda.

Rwanda Bayomediko Senta ni ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima. Intego yacyo iragira iti: "Herifi pipo, Werifi Neshoni."

Ababyeyi bane bose bafite abana babo mu ntoki baje guhabwa serivisi zirimo kubatera inkingo, ni byiza gusuzumisha abana bacu kuko bituma ubuzima bwabo bumera neza.

Abakobwa babiri ndetse n'abasore babiri bambaye udupira twanditseho sefer is sex, barimo barashishikariza urubyiruko rugenzi rwabo ko igihe byabananiye kwifata bagomba gukoresha agakingirizo.

Sare nini twita inzu mberabyombi, yateraniyemo abantu batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, biganjemo abagabo bambaye amakote, baje kumva ibivugirwamo.

Icyapa kiriho kurwanya kanseri yibasira abagoreho, kiriho itariki, itariki zirindwi kugeza ku itariki umunani z'ukwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu mu Mujyi wa Vancouver muri Canada.

Ni umugabo wambaye ikoti imbere yambaye ishati y'umweru, arimo arasuhuzanya n'ababikira batatu bambaye impuzankano zirimo amabara y'umweru ndetse n'ivu.

Inama ya makumyabiri mpuzamahanga yiga ku birebana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo batandukanye bavuye mu bihugu byinshi.

Igitabo cya mwarimu kigenewe abana bo muri sogonderi kigisha ku myororokere, ni byiza kwigisha abana bakiri bato ibivuga ku mibonano mpuzabitsina kuko bituma batarwara indwara zibiturukamo.

Abakora muri serivisi zo kwa muganga bambaye imyenda ibarinda kwandura indwara zitandukanye cyane cyane iziterwa no mu buhumekero, bambaye udupfukawa ndetse n'imyenda ikomeye.

Umugabo ukuze yambaye ingofero ahagaze munsi y'igiti, afite urupapuro rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse no mu rurimi rw'Icyongereza avuga ko urukingo rw'inkende rwabonetse.

Umugabo w'uruhu rwera yambaye ikote ndetse n'ishati y'ubururu, yambaye karuvati afite imbwirwaruhame mu ntoki, arimo aragezaho abamukurikiye.

Umunsi mpuzamahanga wa diyabete, aha barimo barakubwira ngo ifatanye na bo mu guhangana n'icyorezo cy'indwara ya diyabete, ni indwara yandura.

Madamu wa nyakubahwa Jeannette Kagame arivuga imbwirwaruhame, ahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, yambaye ikanzu iri mu ibara ry'icyatsi, imbere ye hari indangururamajwi.

Ibitanda biri ku murongo bishasheho matera ziri mu mabara y'icyatsi, hirya hateretse akabati kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ni ku madirishya.

Inzu nziza ikeye irimo amakaro meza, hejuru harimo amatara amurikira iyi nzu, ku ruhande hari agakoresho kabugenewe kifashishwa mu kuranga aho abantu bagomba kunyura.

Umuforomokazi ari iruhande rw'umurwayi, arimo aramukorera serivisi zitandukanye, yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, hari ibikoreshwa kwa muganga bigiye bitandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo aha ni ahatangirwa mu buvuzi butandukanye, bagira serivisi nziza ndetse iyo ubaganye ufite ikibazo cy'uburwayi uhava gikemutse.

Icyumba gikorerwamo isuzumwa ry'amasoso kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye mudasobwa ndetse ntebe umurwayi na muganga bicaraho igihe baganira.

N mu nzu nini irimo amarangi atandukanye aha ni kwa muganga hifashishwa bavura indwara zitandukanye cyane cyane izo mu mutwe.

Icyumba cyo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye, mo imbere harimo ibitanda, intebe zo kwicaraho ndetse n'amatara meza amurika.

Abaganga bambaye impuzankano y'imyeru, barimo barafata amaraso umugabo waje abagana, iruhande rwabo hicaye umudamu nawe ategereje guhabwa serivisi.

Ibitaro biri mu ntara y'amajyepfo bya Kabgayi. Ni ibitaro bimaze kwandika izina mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera ko bizwiho serivise nziza.

Abaganga babiri umwe wambaye itaburiya y'umweru n'undi wambaye itaburiya y'ubururu barimo baraseka barishimye umwe akikiye umwana w'uruhinja.

Inyubako igeretse rimwe, iteye irangi ry'umuhondo, amadirisa ari mu irangi ry'umweru, imbere yayo hari akabaraza, kuri ako kabaraza hamanitse icyapa cyanditseho ngo " Inzu y'ababyeyi n'impinja".

Umuforomokazi yambaye uturindantoki arimo aroza akana agasekera, yambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi ndetse ari mu nzu ifite isuku.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, hari abantu bane, ni abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, umugabo umwe yicaye ku ntebe ,ategereje guhabwa serivise.

Kwa Nyirinkwaya ni ibitaro byamamaye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali hari serivisi zitandukanye batanga ziganjemo iz'ubuvuzi kuruhande rwaho hari umutaka wa emutiyeni.

Ibitaro bikuru by'umujyi wa Gisenyi, aha ni ikigo nderabuzima aho hatangwa serivisi zijyanye n'ubuzima. Ni byiza kwivuriza ku bitaro bitwegereye.

Ku bitaro, kwa muganga, ahatangirwa serivise z'ubuzima bwiganjemo iz'amaso, hari ikirere gikeye, imbere yaho, hashashe amapave.

Iyi ni farumasi yitwa mediyaso y'i Remera batanga serivisi zigiye zitandukanye, iyi nyubako iruhande rwayo hari imodoka zihaparitse ebyiri imwe iri iruhande rwo hepfo indi iri iruhande rwo ruguru.

Abantu bambaye hejuru amashati y'imyeru, hasi amapantaro y'imikara ndetse n'ikoboyi, barimo baragana ku bitaro byitiriwe umwami fayisari.

Ikigo nderabuzima cya nyanza, ahatangirwa serivisi z'ubuzima, hari porotaye nini iri mu irangi ry'ubururu imbere yayo hateye igiti kinini kigandaye.

Icyumba kinini cyane cyo kwa muganga kiriho ibitanda byinshi bishashwe n'amashuka ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Icyumba cyera kirimo ibikoresho byifashishwa basuzuma abarwayi aha ni kwa muganga, ni inzu ishashwemo amakaro y'umweru dede.

Igororero rya kigali handitse kigali city ni icyapa cy'umweru kirimo kiraranga aho imfungwa zifungirwa.

Serivisi zo kwa muganga zirimo zirahabwa abantu batandukanye, harimo umukecuru wicaye ku kagare yambaye umupira w'imbeho yipfutse igitambaro mu mutwe ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Inzu yubatswe mu mabuye y'amakoro iruhande rwayo hahagaze abantu baje kwaka serivisi zitandukanye ndetse ku rundi ruhande hateye indabo nziza cyane.

Inzu nziza ikeye kandi isa neza irimo amakaro ndetse n'ibikoresho bitandukanye birimo: intebe, ameza, n'akabati, iruhande hari mudasobwa iteretse hejuru y'ameza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, yambaye amaherena ku matwi, mu ijosi harimo akuma kabigenewe gashinzwe gupima uko umutima utera, arimo arambika igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso umwana ukiri muto.

Imashini yabugenewe isuzuma abarwayi, iruhande rwayo hari mudasobwa ishinzwe gukontorora uko iyo mashini ikora.

Inyubako nziza igeretse, hasi harimo abaganga bambaye impuzankano y'umweru, hanze hari abantu batatu bahagaze, baje gushaka serivise z'ubuzima.

Kwa muganga, ahari ibikoresho bitandukanye, hari abarwayi ndetse n'abarwaza ndetse hari n'abakozi, bashinzwe kugenzura ibi bikoresho. Bose bambaye udupfukamunwa.

Icyuma cyabugenewe cyo kwa muganga, kifashishwa bapima umurwayi, kiriho ibikoresho birimo mudasobwa, hejuru yacyo hari sikirini nini igaragaza uko ibipimo bihagaze.

Ibitaro bya kigina ni ibitaro byiza byamamaye mu gutanga serivisi zigiye zitandukanye, imbere yabyo hahagaze umubyeyi uhetse umwana.

Ibyuma bisize amarangi y'icyatsi ndetse n'ubururu, byitwa ibyicungo bikoreshwa n'abana iyo barimo bumva umunyenga.

Ikigo Nderabuzima cya Tabagwe. Aha hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, ndetse iyo ufite ikibazo ku bijyanye n'ubuzima urabagana, bakakugira inama ndetse bakagufasha.

Ikigo cyiza cyita ku basheshe akanguhe abasaza ndetse n'abakecuru, cyubatse ahantu heza, giteye irangi ryiza ribengerana ndetse n'amabati y'umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga gisuzuma indwara zitandukanye hariho aho abarwayi baryama ndetse n'aho muganga yicara arimo abasuzuma hari na mudasobwa yifashishwa.

Icyumba kinini bakunda kwita sare ni kigari cyane kirimo amatara manini birasa nkaho gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse n'imikino igiye itandukanye.

Imashini yabugenewe yifashishwa mu gupima ikibazo cyabaye mu mutwe, ni kwa muganga mu nzu isize amarangi y'umweru.

Mu cyumba kinini harimo aho gukarabira, amakaro hasi, hejuru amatara meza manini ndetse ku mpande ku nkuta hateye amarangi y'umweru.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, yambaye amadarubindi, arimo araseka, afite agakoresho kabugenewe ku ruhande kifashishwa mu gupima uko umutima utera, iruhande rwe hahagaze umwana ukiri muto, wambaye agakanzu k'ubururu.

Kwa muganga, ahari icyumba kitabarizwamo iyo habaye impanuka cyangwa se inkongi y'umuriro, hasize amarangi y'umweru ndetse n'amakaro hasi.

Ahazwi nko muri gimu hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubaka umubiri, binyuze mu myitozo ngororamubiri, hari ibyo guterura n'amaboko ndetse n'ibyo gukoresha amaguru.

Aha ni kwa muganga hamanitse ibyapa bitandukanye biri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi byanditsweho amagambo y'umweru hirya hari icyapa kiriho ko bibuzanyijwe kuvuza ihoni.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye, hari imikindo ikikije inyubako ndetse imbere y'izi nyubako hari jaride zirimo indabo zitandukanye.

Inzu nini ikorerwamo isuzumwa rigiye ritandukanye. Harimo imashini zabugenewe ndetse n'aho kwicara, hasize amarangi y'umweru.

Inyubako nziza iri ahantu hakeye haparitse imodoka ebyiri, imbere yazo hari jaride iteyemo indabo nziza ndetse n'imikindo, ku ruhande hari igiti kigandaye.

Inyubako nziza ikeye isa neza birasa nkaho ari ku kagoroba, hari jalide nziza iteyemo utwatsi dusa neza, hari inyubako nziza kandi nini ziriho amarangi meza.

Farumasi yitwa progress, ifite imiti y'ubwoko butandukanye harimo iyo kuvura umutwe, mu nda, amaso ndetse n'ibindi, imbere y'aho hari intebe y'umweru.

Inyubako nini isize mu irangi ry'umuhondo ndetse n'umukara isakajwe amabati agezweho ni inyubako imbere yayo hashashe amapave menshi.

Ikirere gikeye, munsi yacyo hari inyubako nziza, isize amarangi meza ndetse n'amatafari ya Ruriba, imbere yayo hari jaride irimo amatara amurikira iyi jaride.

Abagore batatu ndetse n'umugabo umwe bicaye kuri sima ,imbere yabo ahagaze umusaza wambaye ingofero ndetse n'ishati y'ubururu yambaye ikoti ry'umukara bari munsi y'igiti.

Inyubako nini igeretse imbere yayo hari imodoka z'amoko atandukanye iruhande rwayo ari ambilanse.

Umurongo wo kwa muganga, uriho intebe zicayeho abaje gushaka serivise zitandukanye, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umweru.

Umurwayi uryamye ku gitanda kwa muganga arimo aritabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'amadarubindi, yambaye n'uturindantoki.

Ni kwa muganga inyubako nziza ikeye irimo amakaro adasanzwe, ku nkuta hateye amarangi y'umweru ndetse n'inzugi zihize amarangi y'umutuku.

Inyubako nziza irimo amakaro, isize irangi rijya gusa umweru, ndetse n'irindi rijya gusa oranje handitseho nasi sitasheni.

Ababyeyi ndetse n'abagabo bambaye imipira y'imihondo hejuru ndetse n'imipira y'icyatsi baje bitabiriye inama ndetse barimo barahabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwabo.

Ibitaro bikuru bya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye biherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma, ni ibitaro biteye imbere kandi bitanga serivise nziza

Imashini zo kwa muganga zifashishwa mu kuvura ndetse no gupima imivuduko y'amaraso, iruhande rwayo hari igitereviziyo kinini ndetse n'isaha ku ruhande.

Amaraso yabitswe mu dupfunyika twabugenewe, ari ahantu heza hatuje kandi hatekanye hafite isuku, ni byiza gutanga amaraso dutabara ubuzima bw'abandi bantu bari mu kaga.

Inyubako yo kwa muganga yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe n'amabati y'ubururu ndetse handitseho inzu y'ababyeyi maternite.

Icyumba cyo kwa muganga kiracyeye kirasa umweru, harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa basuzuma ndetse banapima abarwayi.

Inyubako yubatswe ahantu heza higeye ku musozi, yubatswe n'ibikoresho byiza kandi bigezweho, imbere yayo hari idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, irimo iragendwaho n'abaje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Inzu yubakishijwe amatafari ya ruriba, isakajwe amabati meza y'umutuku, yubatse ahantu haterera mu mpinga y'umusozi, iruhande rwayo hari jaride ndetse n'amatara amurikira umuhanda.

Kwa muganga ahakorerwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, abaganga bambaye amataburiya y'imyeru ndetse n'udupfukamunwa, bambaye ga mu ntoki barimo baratunganya imiti.

Imashini iri mu cyumba gisize irangi ry'umweru, harakeye, iyi mashini yifashishwa mu gupima indwara zo mu mutwe. Iyo wagize ikibazo mu mutwe uraza bakagusikana, bakareba ikibazo waba ufite.

Umubyeyi uryamye kwa muganga yacometsweho imashini zitandukanye yaba izivura ndetse n'izipima uko umubiri we uhagaze.

Ububiko aho babika amaraso aba yatanzwe n'abagiraneza batandukanye, arinzwe ku buryo bwizewe kandi bufite isuku.

Inzu yo kwa muganga isakajwe amabati y'ubururu ndetse isize irangi rijya gusa umweru, handitseho ngo inzu y'ababyeyi, materinite.

Kwa muganga ahatangirwa serivise zitandukanye hari imashini zabugenewe zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, hasi hashashe amakaro y'umweru, hejuru harasa umweru.

Inyubako nziza ikeye imbere yayo hariyo jaride ndetse n'amapave handitseho ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge, ikirere kiratuje havuye akazuba.

Abategarugori batatu bambaye impuzankano, bakora muri serivisi zo kwa muganga, barishimye barimo baraseka, bambaye udutambaro twabigenewe mu mutwe, two kubarinda umwanda.

Mediyasoru, ni farumasi yamamaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, aha ni ishami ry'i Kanombe, bakorana n'ubwishingizi butandukanye.

Abakozi bo kwa muganga bicaye imbere y'ameza y'umweru, barimo barapima imiti ikoreshwa kugira ngo bavure abarwayi, bafite n'ibikoresho byabugenewe mu gupima iyo miti.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa bakomeza umubiri iruhande rwaho hari ikirahuri kinini gisa nkaho gikomeye.

Icyumba cyo kwa muganga gisuzumirwamo abagize ikibazo ku mutwe, aha hari imashini yabugenewe yifashishwa bapima abaje gushaka izo serivisi.

Inyubako ituje iruhande rwayo hari jaride nziza, mu imbere harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini yabugenewe, ipima ubuzima bwo mu mutwe uko buhagaze harimo amakaro y'umweru ndetse n'amatara meza.

Inzu yakirirwamo ababyeyi bagiye kubyara bayita materiniti, hari abicaye ku ntebe harimo umugabo ndetse n'umugore bambaye udupira tw'ubururu, bombi bambaye amadarubindi.

Icyumba gikorerwamo imirimo yo gusuzuma ndetse no kuvura abarwayi; kirimo imashini zabugenewe, ndetse hateretsemo n'ibitanda by'ubwoko butandukanye; hamanitsemo n'isaha ku gikuta.

Icyumba gikorerwamo isuzumwa, aho bagaragaza uko ubuzima bw'umu buhagaze, harimo imashini zabugenewe, ibitanda byo kuryamaho ndetse naho kwicara muganga asuzuma.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, birimo imiti, inshinge, ibinini, ndetse n' agakapu kabugenewe ko gutwaramo imiti.

Agakoresho kabugenewe kitwa burankari, gatwarwaho umuntu umeze nabi, cyangwa se wahuye n'imvune igihe yari mu kibuga, ndetse kakaba kakifashishwa mu bindi bikorwa bitandukanye by'ubutabazi.

Imboga n'imbuto, pome, insenda, ndetse na metero yifashishwa upima uburebure, hari n'udukoresho twabugenewe twifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umusore ukiri muto, yambaye umupira w'umweru ndetse na ekuteri z'umweru, afite icupa ku munwa arimo aranywa amazi, ndetse akora n'imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ukiri muto, iruhande rwe hari ushinzwe kureba uko ubuzima bwe buhagaze, afite agakoresho kabugenewe mu ntoki, kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugore w'imisatsi miremire yambaye agapira kazengurutse umutwe we, arimo arakora imyitozo ngororamubiri yamanitse amaboko mu kirere.

Abana b'urungano bakiri bato barimo barakina imikino igiye itandukanye, harimo akana k'agakobwa kambaye agakabutura k'ikoboyi ndetse n'agashati, karimo karakina kishimye.

Imashini zitandukanye harimo izishinzwe gupima umuvuduko w'amaraso, izishinzwe gupima uko umutima utera, ndetse hari na mudasobwa yifashishwa mu kureba ibisubizo.

Agakoresho gakoreshwa n'ababana n'ubumuga kitwa imbago, gafite aho umuntu afata akicumba ndetse kakagira n'aho gafata akaboko.

Icyapa cyanditseho imyitozo icumi; mu guhangana n'ingaruka zo kwangirika k'ubwonko; aha bagutegeka guhagarara wemye; nta bundi bufasha ukeneye.

Umugore ufite icupa ry'amazi, arimo arayanywa, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, kunywa amazi ni byiza bituma ubuzima bwacu burushaho kumera neza.

Umugabo ukuze afite icupa ry'amazi arimo aranywa amazi yambaye agapira k'umukara, arimo arakora imyitozo ngororamubiri amazi ni ubuzima.

Umubyeyi ukiri muto arimo arakora imyitozo ngororamubiri yambaye agasengeri ndetse n'agapantaro kabugenewe yambaye inkweto zirimo amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Akamashini k'umweru, kariho amabuto y'icyatsi ndetse kanditseho amagambo y'icyatsi. Iruhande rwako, hari umugozi w'umukara, wabigenewe ushinzwe kugacaginga.

Umusore ukiri muto yambaye ikabutura ndetse n'inkweto arimo arakora imyitozo ngororamubiri, dusigasire umubiri wacu dukora siporo.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara, arimo arakorera masaje uryamye ku gitanda cyabugenewe, na we yambaye agakabutura k'umukara, arimo aragorora imitsi kugira ngo ikanguke.

Umwana ukiri muto uryamishijwe hasi, iruhande rwe hahagaze abandi bana ndetse hejuru ye hari abarimo bamukingira.

Umugabo wambaye ikabutura irimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara, yambaye umupira ukoreshwa muri siporo w'ibara ry'umutuku arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Igikapu kirimo ibara ry'umutuku, gifite imigozi y'umukara, ndetse mu imbere harimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura, harimo imikasi, pomade, ibipfuko n'ibindi.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'umweru, yambaye amasogisi y'umweru, arimo arakoreshwa imyitozo ngororamubiri n'undi mugabo w'umuzungu, wambaye isaha y'umukara ku kuboko.

Icyapa kiriho umuntu urimo arakora imyitozo ngororamubiri, cyanditseho amagambo arimo ururimi rw'icyongereza avuga ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umwana w'umukobwa wambaye agapira k'umutuku afite imisatsi miremire, yambaye ekuteri z'umweru ndetse na terefone ku kuboko arimo aranywa amazi. Ni byiza kunywa amazi igihe urimo ukora siporo.

Umugabo w'igikara wambaye agapira k'ivu, inyuma ye hari agakapu k'umuhondo, afite icupa ku munwa arimo aranywa amazi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umugore ukiri muto yambaye agasengeri k'icyatsi, imisatsi miremire ndetse n'agapantaro, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari igikuta gisize irange ry'ubururu.

Umusore ufite icupa mu ntoki harimo aranywa amazi, yashyize agasume ku rutugu yambaye agapira k'umukara afite ubwanwa ndetse ariyogoshesheje.

Umugore ukiri muto arimo arakora siporo ku mashini yabugenewe arimo arirukanka iruhande rwe hagaze umutoza we ushinzwe kumureberera.

Umugore ukiri muto yambaye agasengeri kajya gusa ibara ry'ubururu, afite icupa ry'amazi arimo aranywa amazi, afite imisatsi miremire ni ku kirengazuba.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara, hasi yambaye inkweto zirimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru, arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ukiri muto arimo arakora imyitozo ngororamubiri, yicaye mu twatsi tumeze neza yambaye inkweto zabugenewe ndetse n'ikabutura ya siporo.

Umusore ufite ibigango arimo arakora imyitozo ngororamubiri yashyizeho udukoresho twabugenewe two gukomeza uruhu ndetse n'imitsi ari muri siporo.

Abasore n'inkumi abagore ndetse n'abagabo bahuriye hamwe barimo barakora imyitozo ngororamubiri siporo ni nziza kuko zituma ubuzima bwacu burushaho kumera neza.

Igikoresho cyabugenewe k'igikapu kifashishwa mu kubika ibikoresho byo kwa muganga, bitandukanye aho harimo imiti, ibipima umuriro utumakasi n'ibindi.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa afite umwana mu ntoki yamuzanye kwa muganga ngo bamusuzume indwara y'amaso muganga yambaye imyenda yabugenewe yo kuvura.

Umusore arimo arambika mugenzi we akantu kabugenewe kifashishwa mu gukomeza imitsi iyo wavunitse ukakambara kagufasha gukira vuba.

Umukobwa ukiri muto yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, inkweto zabugenewe za siporo z'umweru, yambaye isaha ku kuboko irimo iramubarira igihe.

Icyapa kiriho abakinnyi batatu bakina umukino wa rugubi bambaye uturindadanmutwe ndetse cyanditseho amagambo yo mu Cyongereza agira ati impanuka biroroshye kuyirinda kina neza.

Abagore babaganga bari mu cyumba cyabugenewe bambaye imyambaro ibarinda kwandura indwara zandurira mu guhuza amaraso, bambaye n'udupfukamunwa ndetse n'impuzankano.

Umubyeyi arimo arakora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'imikara ndetse yapfukamye ku gakeka kabugenewe kifashishwa mu gukora siporo.

Umuganga w'umugabo ahagaze imbere y'abaganga bagenzi be arimo arabasobanurira kuri serivisi bagomba gutanga aha kwa muganga.

Umusore wambaye umupira wumukara afite icupa ryamazi arimo aranywa amazi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari ibiti bitandukanye.

Umuganga arimo aragorora akaguru k'umurwayi, umuganga yambaye itabuririya ijya gusa ubururu naho umurwayi yambaye ipantaro isa umukara.

Umugabo n'umugore bambaye udusengeri uducupa tw'amazi mu ntoki ndetse barimo barakora siporo, hirya yaho hari umusozizi muremure.

Umwari mwiza yambaye imyenda yababugenewe yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri nibyiza ko n'abakiri bato bishishikariza gukora siporo.

Umukobwa yicaye ku mukeka wabugenewe imbere ye hateretse mudasobwa iruhande rwe hari amazi ndetse n'udukoresho yifashisha akora imyitozo ngororamubiri.

Udukoresho twabugenewe twifashishwa iyo umuntu yahuye n'imvune turi mu mabara atandukanye umukara, umutuku ndetse n'ubururu utu dufasha umubiri cyangwa se ahavunitse gukomera.

Umukobwa ukiri muto yambaye agasengeri ndetse n'ipantaro y'umukara afite imisatsi miremire aryamye ku mukeka wabugenewe arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa arimo arasunika imashini yabugenewe yambaye ijile y'icyatsi ndetse n'agakabutura k'ubururu afite imisatsi miremire arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Agakoresho kifashishwa gatwarwaho umuntu utameze neza ashobora kuba yavunitse cyangwa se arwaye arembye gatwara abantu babiri.

Imashini yabugenewe yifashishwa mu gusuzuma abafite ikibazo cyo mu mutwe, aha ni kwa muganga harimo amatara amurika neza ndetse higanjemo ibara ry'umweru.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo, harimo akuma kabigenewe gapima uko umutima utera, harimo imipira yo gukina, ga zabigenewe zo kwambara igihe bakina umukino wa gorufe.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu afite isaha ku kuboko ndetse mu ntoki afite agacupa karimo amazi arimo arayanywa.

Imyitozo ngororamubiri irimo irakorwa n'umugore hano yambaye imyenda yiganjemo imikara ndetse n'utubara tw'umweru.

Umugabo wambaye isengeri arimo arakora imyitozo ngororamubiri, siporo ni ubuzima kubera ko iturinda indwara zitandukanye zituruka ku mubiri.

Igikoresho cyabugenewe gishyirwa ku ivi iyo umuntu yavunitse cyangwa se imitsi yikanze, gituma akira vuba mu buryo butamugoye.

Agakapu kaba karimo ibikoresho bitandukanye, harimo imikasi, imiti, serumu ndetse na za pomade, ibi ni ubuvuzi bw'ibanze bwifashishwa iyo umuntu ahuye n'ikibazo.

Aya ni amabwiriza yifashishwa mu gihe cya korona virusi, aho bakubwira ko gusuhuzanya bitemewe, gukoranaho ugakaraba amazi meza n'isabune ndetse n'ibindi.

Imbuto z'ubwoko butandukanye harimo inkeri, imizabibu na pome ndetse n'indimu, harimo ubunyobwa ndetse n'umutobe, iruhande hari amazi ndetse n'ibikoresho byifashishwa muri siporo.

Igitoki, ubunyobwa, umubirizi ndetse n'ikindi kimera kiri mu ibara ry'icyatsi ni ibimera bidufasha kubungabunga ubuzima bwacu.

Imiti yo mu bwoko butandukanye harimo; amasabune ndetse n'amavuta ndetse na korogati, byose bikozwe mu kimira cyitwa igikakarubamba, harimo na nshampo zifashishwa mu koza.

Ni umuti witwa rivayivu, uvura indwara zitandukanye harimo gucika intege, ingaruka zo kwikinisha, ikumira indwara zifata porositate.

Icupa ririho icyapa kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, hashushanyijeho uruyuki, ubuki ni bwiza ku buzima bwacu kuko butuma tumera neza.

Ikimera cyitwa itovu gikunda gusangwa mu bihuru bitandukanye, kiribwa n'itungo ry'ihene ndetse kirahanda kikanajomba.

Ikimera cy'igicuncu, cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Gifite ibara ry'icyatsi gusa kirasharira cyane, uwakiriye ntiyifuza kongera ku kirya.

Imiti ya gakondo igiye itandukanye, hari udukoresho twifashishwa bayitunganya, agasekuru gato ndetse n'umuhini, iruhande hari ibitabo bivuga kuri iyi miti.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe yambaye agapfukamunwa, arimo arakura imiti mu bikarito arimo aragerageza kuyikuramo kugira ngo ajye kuyishyira ahabugenewe.

Uducupa dutatu tw'umweru tubiri tunini, kamwe gatoya, twanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, aya move, ubururu ndetse n'umutuku.

Igihingwa cy'ikimera kikiri gito kiri mu ibara ry'icyatsi cyitwa umusave ni ikimera cy'ingirakamaro nibyiza gusigasira ibidukikije.

Agacupa k'umweru kanditseho amagambo atandukanye ari mu rurimi rw'amahanga, karimo imiti yifashishwa havurwa indwara zitandukanye ni imiti ya gakondo.

Amacupa atandukanye arimo imiti itandukanye aya macupa yiganjemo ay'ibirahuri harimo imiti yifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Ikimera cy'icyatsi cyayanze, kizana ururabo rw'umuhondo, rurimo rurahumura ruhovwaho n'inzuki, zikora ubuki.

Ibinini by'icyatsi biri ku gakoresho ka gakondo kitwa umwuko bikozwe mu byatsi, imiti gakondo ni myiza.

Amacupa yabugenewe yifashishwa mu kubika amavuta yo kwisiga ari mu dukarito ndetse aya mavuta akozwe mu gikakarubamba.

Icupa ririmo ifu y'umuti ukozwe mu muravumba. Umuravumba ni ikimera cy'ingirakamaro mu gihugu cyacu, kuko kivura indwara zitandukanye.

Mu dukoresho turimo imiti myinshi cyane igiye itandukanye, harimo imiti iri mu mabara y'imituku, amabara y'ibyatsi ndetse iyi miti yose ni iya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Imiti ya gakondo ikorwa mu bimera, harimo amavuta, korogate ndetse n'igikotoro cyo kwisiga. Ni byiza gukoresha imiti ikomoka ku bimera.

Umugabo wambaye akagofero yambaye umupira w'umutuku, ari mu iduka ricuruza imiti ya gakondo, hasi handitse ngo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Icupa riri mu mabara y'umweru, ndetse yanditseho amagambo ajya gusa nka oranje, ryanditseho ngo alowe picizi, ni amavuta akomoka mu myembe.

Ibikombe by'ibirahuri biriho imipfundikizo igiye itandukanye irimo amabara y'umutuku n'umweru, ku ruhande rw’ibyo birahuri hari udupapuro dusobanura imiti iri muri ibyo birahuri.

Ikigo cy'ubuvuzi cyitwa Global Alliance cyasohoye umuti witwa koledozi, witwa kandi omega suplime. Ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Utujerekani dutatu; kamwe k'umuhondo utundi tubiri tw'umweru; twanditseho amagambo agiye ari mu mabara atandukanye; iruhande rwatwo hari igikakarubamba gikase.

Imiti ya gakondo iteretse ku karago, harimo imizi y'ibiti igiye itandukanye, iyi miti ituma umurwayi akira vuba. Ni byiza kuyikoresha.

Arowe velageli ni umuti wifashishwa mu gutunganya indwara z'uruhu . Ni umuti gakondo ukorwa mu gikakarubamba.

Imiti ya gakondo ikorwa m'biyatsi ndetse n'ibihingwa bitandukanye higanjemo iyifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa ndetse harimo iyiganjemo ikorwa m'igikakarubamba.

Icupa riri mu ibara ry'umuhondo, ripfundikijwe agapfundikizo k'umutuku, imbere yaryo handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku. Hano hari igikakarubamba bigaragara ko ibirimo byakozwe mu gikakarubamba.

Amacupa maremare harimo imiti igiye itandukanye, amennshi muri yo apfundikijwe udupfundikizo tw'umukara ndetse ayandi agapfundikizwa udupfundikizo tw'umutuku, harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Amazi ari mu turahuri arimo ikimera cyitwa umuravumba, aya mazi yifashishwa kuvura indwara zitandukanye zirimo inkorora ndetse n'ibicurane.

Imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo umunzani upima uko iyo miti ingana ndetse hariho n'aho kurambika iyo miti.

Igikakarubamba ni ingirakamaro ku buzima bwacu kuko kiturinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, iruhande rwacyo handitseho foreva.

Umuti wifashishwa mu gukoreshwa mu kanwa, urinda indwara zitandukanye zituruka mu kanwa ,ukozwe mu gikakarubamba.

Amacupa ari mu bwoko butandukanye arimo amavuta yo kwisiga ndetse n'indi miti yifashishwa mu koza mu kanwa ibi byose bikozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba.

Amacupa ari mu bwoko butandukanye irinini muri yo ririmo ubuki bukomoka ku nzuki andi atatu mato y'umweru arimo ibikomoka ku buki.

Ikimera cy'umuravumba giteye hagati mu bindi biti kiratoshye kandi gisa neza kibereye ijisho iruhande rwacyo hari ibindi byatsi.

Umuravumba ni ikimera cyifashishwa mu buvuzi butandukanye, kivura inkorora, ibicurane gapfura, ndetse n'ibindi, gikungahaye mu gukiza indwara nyinshi.

Umuravumba, ni ikimera cyiza kigira akamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, gusa kirasharira cyane by'intangarugero.

Ikimera cyitwa umuravumba giteye hagati y'inzu ebyiri, ni ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, zirimo inkorora, ibicurane ndetse n'ibindi.

Mu ducupa tw'umweru dutatu turimo imiti igiye itandukanye two mu bwoko bwa alowe vera, ni uruganda rukora imiti mu bimera.

Aloe ni umuti ukomoka ku gikakarubamba uri mu gacupa k'umweru, amagambo yanditseho ari mu ibara ry'ubururu, hejuru hashushanyijeho akanyoni kari kuguruka.